Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Icyumba kinini cyabereyemo inama abantu barenze umwe bicaye ku ntebe z'umukara ku meza hariho icupa ry'amazi n'indangurura majwi.

Umugabo uri imbere y'abaturage bicaye munsi y'ibiti arikubagezaho ijambo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru munsi y'ihema ry'umweru rifite ibitambaro by'ubururu icyatsi n'umuhondo.

Abantu bari mu cyumba kinini, barenze umwe, bafite mudasobwa imbere yabo n'indangururamajwi, urukuta ruri mu ibara ry'umweru, umuryango, ikirangantego cy'igihugu, n'idarapo ry'igihugu.

Abantu barenze umwe bicaye mu cyumba cy,inama bafite mudasobwa imbere yabo, uducupa twamazi ku meza n'indabyo hagati.

Umugore wicaye ku ntebe yumukara imbere mudasobwa agacupa k'amazi kari kumeza umugabo wambaye ikote ishati y'ubururu wicaye ku ntebe y'umukara imbere mudasobwa urupapuro, icupa ry'amazi n'indabyo.

Abantu benshi barenze umwe, bicaye mu cyumba kinini, begereye imeza zirimo ibitambaro by'umukara, biteretseho impapuro z'umweru n'uducupa tw'amazi.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki, uri kuvuga, abantu bicaye, inyuma handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru, inyuma hasa ubururu, idarapo ry'igihugu Urwanda

Abantu benshi barenze umwe bicaye mu ihema ry'umweru rifite ibitambaro by'icyatsi, umuhondo nubururu imbere hari imeza iriho igitambaro gifite ibara ry'ubururu n'umuhondo n'indabo.

Abantu benshi bicaye mu ihema ry'umweru rifite ibitambaro birimo icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Abagabo babiri bicaye bari kwandika, imbere hari uducupa tw'amazi tw'Inyange.

Umuhanda ugana igipangu gisize ibara ry'icyatsi urukuta rwa amatafari, igorofa risize ibara ry'icyatsi rirerire ry'ibyatsi.

Abagabo babiri bahagararanye bambaye udupira barengejeho ikote, umwe wambaye ingofero iri mu ibara ry'umweru, inyuma ye hari mudasobwa, imbere hari urukuta rusize ibara ry'umweru n'ubururu.

Hano ni muri supamaketi, amatara ari kwaka. Harimo etajeri nyinshi ziriho ibicuruzwa bitandukanye. Ndahabona urujya n'uruza rw'abantu, barimo guhaha.

Umunara muremure w'itumanaho usize amabara harimo umutuku n'umweru, ibiti birebire bitoshye, n'insinga z'amashanyarazi.

Umusozi uriho inzu z'abaturage umunara muremure w'amashanyarazi, icyapa cy'icyatsi gifite amagambo y'umweru aranga uduce dutandukanye.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Imodoka yo mu bwoko bw bw'ivatiri ikora akazi ko gutwara abagenzi, isize ibara ry'umweru n'umuhondo iri imuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'ibumoso hari abagore babiri bari gutambuka bambaye utuntu mu mutwe, hirya yabo hari umutaka wa emutiyene ucururizwamo amayinite.

Umugabo uri kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa, imbere hari ipoto ry'itara ririho amashanyarazi, ku ruhande rwe hariho imodoka iriho icuruzwa, icuruza.

Umusozi, inzu zirengereye zihatuye, ibiti, ipoto ricaho insinga z'amashanyarazi.

Ipoto rirerire, ricaho umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi n'ibiti.

Ibiti birebire ipoto ririho umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi.

umuhanda w'ibinyabiziga, ipoto rinyuraho umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi urukuta rw'amabuye, umuryango usize ibara ry'ubururu ,ibyatsi ibiti n'indabyo.

Ipoto rirerire rinyuraho umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi, urukuta rusize ibara ry'umweru.

Ubusitani burimo ibiti birebire ibyatsi, inzu ifite amabati atukura, amadirishya, ipoto ry'umweru rirerire, urukuta rw'amabuye.

Imodoka ziri mumuhanda amazu afite amabati y'umutuku amagambo ari imbere y'inzu yandikishije mu ibara ry'ubururu kurukuta rw'umweru.

Amabuye yubakishije esikariye, imodoka isize irange ry'umweru n'umutuku; n'amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, dukunze kwita inkeragutabara.

Ubusitani burimo ibiti birebire bukikijwe n'indabyo, inzu z'amabati n'imodoka zisize amabara y'umweru.

Inzu isize irangi ry'umweru, ubusitani, kizimyamwoto yegereye inzu isize irangi ry'umutuku.

Umugore ufite imisatsi y'umukara ifunze, uruhu rwirabura, wambaye agapfukamunwa k'ubururu, imyenda yiganjemo ibara ry'umukara n'umweru, imbere ye hari indangururamajwi na mudasobwa, wegeranye n'umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, imyenda y'iroza, w'uruhu rwirabura.

By'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Urukuta rurerure rw'amatafari, igipangu cy'umukara, urukuta rusize ibara ry'umweru, abagabo benshi batonze umurongo bambaye imyenda isa iroza.

Abagabo benshi bahagaze mu busitani bazamuye amaboko akaboko kabo bambaye imyenda y'ibara ry'icunga.

Umugabo udafite umusatsi, w'igikara, uri kumwenyura; ufite indangururamajwi ku mwenda we, usa iroza.

Umugore wambaye amadarubindi, ingofero ufite imisatsi imanuye myinshi wambaye imyambaro irimo amabara arimo umutuku, umweru n'umukara. Urukuta ruri inyuma ye rusa umweru n'idarapo ry'igihugu.

Umugabo uhagaze w'igikara, ufite umusatsi mukeya uringaniye, wambaye imyenda yiganjemo umutuku, umukara, umweru, inyuma hari urukuta rw'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe hafi y'imeza ziriho ibitambaro by'umukara, umugabo uri imbere uhagaze ari kubagezaho ijambo.

Umugore umanitse akaboko, witangiye igitambaro cy'umukara, abantu barenze umwe bicaye n'abahagaze inyuma ye.

Urukuta rurerure rw'amatafari rusize amarangi, abagabo bari kuzamuka barenze umwe, bambaye imyambaro y'ibara ry'icunga.

Umugore ufite imisatsi y'umukara myinshi imanuye wambaye imyambaro yiganjemo isa umutuku n'umweru inyuma ye hari urukuta rusize ibara ry'umweru.

Umugore udafite umusatsi wambaye linete, ikanzu y’iroza ryerurutse, abantu benshi inyuma ye.

Umugabo w'igikara wambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara, ikanzu inyuma y'umutuku, mo indani agatambaro k'umweru, mo imbere umukara, inyuma y'urukuta rw'umweru.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'umukara, iriho ikirangantego cy'igihugu y'abashinzwe umutekano mu gihugu bari kumva amabwiriza.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara irimo imirongo y'icyatsi cyerurutse, wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano.

Abagabo bahagaze bambaye imyenda y'umukara, bafite intwaro mu ntoki, bakora mu nzego z'umutekano, ibiti, imodoka ziri inyuma yabo zisize amarangi y'umweru.

Imodoka isize ibara ry'umweru iri kwaka amatara y'ubururu n'umutuku.

Umugore ufite imisatsi y'umukara uzamuye akaboko wambaye imyambaro y'ikanzu isa umweru inyuma hari ikivunge cy'abantu bamukurikiye.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru karuvati y'umutuku ufite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo uzamuye akaboko k'ibumoso, abaturage imbere ye bahagaze inyuma inzu isize irangi ry'ubururu.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi uringaniye wambaye ikoti, ishati y'umweru, karuvate, uzamuye ikiganza cy'iburyo ufashe ku idarapo ry'igihugu.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bambaye imyenda y'umweru umutuku bafite idarapu ririho amabara ubururu umweru n'umutuku.

Abantu benshi bambaye udupira tw'umweru, umukobwa wambaye agapira k'ubururu, bambaye utugofero tw'umweru, amadarapo y'umutuku ,umweru n'ubururu, yanditseho efuperi.

Umugabo wifashe ku kananwa, wambaye ikote uri guseka udafite umusatsi, yegereye uwambaye imyenda y'abashinzwe umutekano uri guseka, ikirangantego cy'igihugu.

Abantu bahagaze higanjemo abagabo bambaye amakoti n'abagore bambaye imyenda ya kinyarwanda bita imikenyero imyuma hari amadarapo abiri y'igihugu n'urukuta rusize ibara ry'umweru.

Umugore ufite umusatsi ukaraze w'uruhu rwirabura wambaye amadarubindi, amaaherena, ikote n'ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Ibiti umuhanda ucamo abagenzi, ipoto ry'umweru n'umuhanda ucamo ibinyabiziga, moto umumotari umugenzi, na moto itwara imizigo bakunze kwita rifani itwikiriye igitambaro cy'umweru.

Umunyamakuru fatakumavuta yambaye amapingu ari kumwe n'umuporisi inyuma ye. Fatakumavuta akaba afite n'agacupa mu noki k'amazi akaba yambaye ishati y'umukara n'ipantaro ya girini n'amarinete.

Ibiti biri ku nkengero z'umuhanda, ikamyo isize ibara ry'umweru, inyuma umuntu uyicayeho, moto ihetse umugenzi.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imirongo y'umweru n'ibinyabiziga; moto, motari, imodoka isize ibara ry'umweru itwaye imizigo, n'ibiti, n'inzu.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga, moto iriho umumotari, umugenzi, ibiti biri mu busitani hagati y'umuhanda.

Ikamyo isize ibara ry'umuhondo iri muhanda y'ibinyabiziga utwikirije igitambaro cy'ibara ry'umweru ibiti ku mpande.

Imodoka itwara abagenzi yanditseho ritiko limitedi, umugabo wikoreye umufuka n'ibiti.

Umuhanda urimo inzira nyabagendwa n'inzira y'ibinyabiziga, harimo moto ihetse umugenzi.

Umuhanda w'ibinyabiziga moto, motari, umugenzi, ikamyo isize ibara ry'ubururu.

Igare rikoreshwa mu bwikorezi rifite amapine kandi risize amabara y'umutuku.

Umugabo wegamye ku igare imbere hari amagare abiri umuhanda urimo imodoka icanye amatara ari mu ibara ry'umweru.

Ibiti byinshi byegerejwe n'ikamyo iri mu muhanda w'ibinyabiziga, isize imbere ibara ry'umutuku, kontineri ihetse isize ibara ry'icyatsi.

Umuhanda w'ibinyabiziga, amazu, ibinyabiziga, insinga z'amashanyarazi, ibiti n'abanyamaguru.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga urimo igikamyo gisize ibara ry'umweru bihetse ingunguru ya peterori abamotari inyuma y'ikamyo n'ibiti.

Ikibuga k'igitaka kirimo imirongo y'umweru, agatebe gafite ama esikariye gasize irangi ry'umweru.

Icyapa kiri mu muhanda cya mpande eshatu, gifite ibara ry'umutuku n'umweru, n'utuziga tw'umukara n'imodoka iri mu muhanda.

Umuhanda w'ibinyabiziga, icyapa cy'umweru cyandikishije amagambo y'umukara, Kibugabuga.

Icyapa kibuza guhindukira kw'ikinyabiziga ni icyapa kibuza gukata ibumoso bw'ikinyabiziga n'imodoka ziri mu muhanda n'umuntu uhagaze mu muhanda.

Icyapa cy'umweru cy'icyuma gishushanyijeho amagambo y'umukara azengurukijwe n'akaziga k'umukara ka ga ijana na mirongo icyenda esiti, ibi ni ibiti.

Icyapa cya mpande eshatu gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda gifite ku mpande hafite ibara ry'umutuku hagati hagasa umweru harimo imodoka isa umukara n'imirongo yizingazinze y'umukara.

Inyubako yegereye umuhanda ucamo ibinyabiziga n'umwabanyamaguru, icyapa gikoreshwa amategeko y'umuhanda gifite ibara ry'umutuku, umweru cyandikishije amagambo ari mu ibara ry'umukara, imirongo itanda...

Inzu iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu by'amafaranga y'amanyamerika.

Igipangu kizengurutse inzu ifite amabati atukura y'ibipangu kirekire cy'amatafari kiriho ibigega by'umukara.

Igorofa rifite amadirishya asize ibara ry'umweru, ikigega kiri hejuru y'ibyuma, umuhanda unyuramo ibinyabiziga moto, umumotari uhetse umugezi n'ibiti.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse kugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi, harimo ama moto ndetse n'amagare ahetse abagenzi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza ndetse inyuma y'aho hakaba haparitswe n'ibindi binyabiziga binini harimo nk'amakamyo y'umweru.

Ibiti, igorofa rifite ibara risize umweru, umuhanda unyuramo ibinyabiziga, umubare wandikishije amagambo y'umukara cumi na kabiri, agace.

Imodoka zirenze imwe ziparitse, ibiti, ipoto rinyuraho insinga z'amashanyarazi n'igorofa.

Igorofa rirerire rifite ibirahure bisa ubururu, ipoto ririho itara n'insinga z'amashanyarazi, icyapa gifite ibara ry'umutuku.

Igorofa ry'amatafari igiti cyegereye inzu, abantu bahagaze ibyapa bikoreshwa mu mategeko y'umuhanda ibinyabiziga bihagaze.

Amazu ari ku musozi y'umweru, y'amagorofa, inzu iri mu isambu, ifite amabati y'umutuku.

Umuhanda w'igitaka, ibipangu bisize amabara y'ubururu, ibiti birebire, amazu n'ibyatsi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga uri hejuru ufashwe n'inkingi ziri munsi yawo n'undi unyura munsi ucamo ibinyabiziga ipoto ry'amatara ryegereye umuhanda.

Urukuta runini rucaho umuhanda w'amabuye moto ebyiri ziri mu muhanda ikoreshwa n'ibinyabiziga ihetse abagenzi, umunyonzi wambaye umwenda w'ubururu ufite igare mu ntoki.

Ibiti byinshi byegereye umuhanda usizemo imirongo iri ku ruhande, iri mu ibara ry'umuhondo ucamo ibinyabiziga.

Aha ngaha turabona abantu babiri babagororwa cyangwa se bataraba bo, baba baje kuburanishwa kugira ngo bamenye niba ibyo baregwa ari byo, iyo bamaze gusanga aribyo barabahana bakabaha igihano gikwiranye n'ibyo bakoze.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga, icyuma gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda, gifotora abica amategeko y'umuhanda binyuranyije n'amategeko.

Ibiti, umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka, moto iri mu muhanda w'abanyamaguru iriho umumotari.

Igorofa ry'umweru, umuhanda w'inyabiziga uri gucamo abagenzi, urimo imirongo isize y'umweru.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga, amarange y'umweru n'amatara acanye ku muhanda.

Umuhanda w'umukara urimo amabara y'umweru n'ibinyabiziga bigenda bikikijwe n'ubusitani n'ibiti.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga urimo imodoka zatse amatara, amatara ari kwaka nijoro abagenzi bari kugenda muri uwo muhanda.

Ibiti byinshi byegereye umuhanda ucamo ibinyabiziga biri kugenda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga urimo icyapa gikoreshwa mu mategeko yo mu muhanda, harimo abagenzi amatara ari kwaka nijoro, ibiti, umunyonzi wicaye ku igare.